Icyapa kirimo abahanzi batandukanye kigaragaza igitaramo barimo baritegura aya ni amatike batanga kugira ngo uzinjire mu gitaramo nta mbogamizi ugize aho hantu hazaba haryoshye mwese turabatumiye muzaze.